Iki ni ikigo cy'ubwishingizi kikwishingira mu bijyanye n'ubukungu, kikagufasha kwiteza imbere ku buryo ugira ubuzima bwiza.

Iki ni icyapa cyamamaza ubwishingizi bwishingira abantu, bukumenyesha ko iyo ubuhisemo ariyo mahitamo meza uba ukoze.

Mu bwishingizi bwo ku nzu, n'amamodoka, no ku buzima; bagufasha mu gihe uhuye n'ibibazo utiteguye; ariko uba ufite amafaranga ugenda ubishyura buri kwezi; byakubaho bagahita bakwishyurira nta kibazo.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi kitwa radiyanti cyo kwishingira ubutunzi utunze no ku buzima bwawe no ku mashuri y'abana bawe byose kirabyishingira.

Hano ni ikigo cya radiyanti kiba kiri kukwereka uburyo wateganyiriza umuryango wawe, n'ibintu utunze ku buryo bigize ikibazo bakwishingira.

Iki ni icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi ku bikorwa remezo, haba ku buzima bwa bose bashoboka kwishingira.

Ubu ni uburyo bishingira abahinzi, ikigo cya radiyanti mu kubaha inyongeramusaruro y'ibikomoka ku buhinzi.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi cyitwa RADIANT, kikaba kishingira ibikorwa remezo mu gihe uhuye n'ibyago, bakaba bakwishyurira iyo nyubako.

Ubu iki ni ikigo cy'ubwishingizi kikwishingira ku kinyabiziga cyawe, iyo cyangiritse bakaba bakigusanira neza.

Ik kigo kiba kiri kukubwira ko gitanga serivisi zo kukwishingira mu gihe wagiye mu zabukuru, aho wizigamira amafaranga utanga buri kwezi maze bakazayaguha warashaje.

Iyi ni porogaramu ya banki y'uburyo ureba amafaranga usigaranye ku buryo bw'ikoranabuhanga, ukareba amafaranga bakuguriza.

Izi ni porogaramu zabaye uburyo wazireberera, ukareba uburyo wakohereza amafaranga kundi ku buryo bwo kuri murandasi.

Iri ni iduka ricuruza imyenda n'imitako, ibintu nyine bigaragara nkaho ari iby'umuco bikoreshejwe ibikoresho bikomoka hano mu Rwanda.

Hano ni iduka ryimyenda, aho baba bayigurishiriza bayikeneye wajyayo kuyigurirayo.

Hano ni muri botike igurisha imyenda, baba baguhaye ifoto y'imyenda ugacagura ukurikije n'ingano yawe.

Iri ni iduka aho bacuruza inkweto, ukajyayo ugacagurayo izigukwiye, kandi urabona ko zakorewe no mu Rwanda.

Iri ni iduka rigurisha imitako, imyenda, ibintu bijyanye n'imico nyarwanda ndetse n'ibisuka.

Uyu ni umukiriya bari kwereka imodoka ashaka kugura, bamubwira ibyiza byayo urabona ko ari nziza, kandi bagirana n'aya masezerano.

Aha ni ahantu bacururiza amamodoka y'ubwoko bwose kandi agezweho akiva mu nganda zayo z'igisohoka.

Ni ikigo gicuruza amamodoka menshi cyane y'ubwoko butandukanye, ubona umuntu bari bari kuyiha nyine wari uyiguze.

Ndabona ari umugabo bari guha ibyangombwa by'imodoka ye, yari aguze muri kigo gicuruza amamodoka Akagera motozi.

Abantu bo mu muryango bahaye imodoka ibyangombwa byayo, bamaze kuyiguramo mu kigo cy'Akagera motozi gisanzwe gicuruza amamodokaka.

Iyi modoka iragurishwa, ni ubwoko bwayo ni toyota yakozwebiri na makumyabiri kabiri, igurishwa miliyoni mirongo itatu n'esheshatu.

Ndabona umuntu uri kugirana amasezerano n'ikigo gicuruza amamodoka aho bari kumuha ibyangombwa by'iyimodoka yarahaguye.

Aha ni ku nganda zo zigurisha amamodoka, akenshi aha niho iyo ukeneye imodoka uyitumizaho cyangwa ukigerera ku ruganda ukayigurirayo.

Aya ni amafaranga, amenshi ni ay'amanyamahanga, aha bari kuyabara bayatondeka neza...

Aya ndabona ari amafaranga y'amanyamahanga, umuntu ari kuyabara kugira ngo ayakusanye neza, ndabona ari kuyakorera totari yayo arebe.

Ni ikirango cyo ku giceri cya mirongo itanu, aho haba hariho ikigori, ku giceri cyo hasi cya mirongo itanu.

Aha ni aho baba bari kubara amafaranga kandi begeranya imibare nyayo mu gihe gikwiye, kugira ngo babashe...

Ndabona umuntu uri kubara amafaranga mu mashini abara kugira ngo kuko ntiyabara amamiliyoni n'intoki ari gukoresha imashini amafaranga

Iri ni ikaragiro ritanga amata asukuye ku isoko kandi meza yujuje ubuziranenge bakoramo n'amaforomaje.

Aha ni ku ikaragiro ry'amata aho bayatunganyiriza bayashyira mu byuma biyakonjesha kugira ngo amere neza bayavuze neza.

Hano ni ku ikaragiro ry'amata aho batunganyiriza amata ku buryo ahora ameze neza, n'aborozi bakayahazana bakabaha amafaranga.

Aha ni ku nganda zitunganya umusaruro w'amata; bakayatunganya, bakayapfunyika, bayashyira mu makaneti, bayajyana ku masoko

Aha ni ku ruganda aho batunganya amata bayafunga neza, aho bayabyazamo n'izindi poroduwi, bakayabyazamo amafu.

Ibi ni ibiribwa biba byakoreshejwemo amata aya ni amandazi aba yabyajwemo umusaruro bayavanze n'ifarini bagashyiramo n'amata.

Ibi ni amafunguro aba yakozwe mu musaruro uturuka ku matungo, aba ari amata bakayabyazamo ibintu byinshi.

Aha ngaha ni ahantu bishyura bakoresheje ikoranabuhanga, haba kubikuza, haba umudiyasipora akohereje amafaranga ni ho wayanyuza.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje iya kure bitabaye ngombwa kuri uri kumwe n'umuntu ukamwishyura ari kure cyane yari iri hano ku mugabane w'Afurika ku buryo wanamwishyu ari ku mugabane w'Aziya .

Ubu ni uburyo bugezweho bwo kwishyura hakoresheje ikoranabuhanga. Kandi byishyurwa vuba byoroshya uburyo bw' umutekano wawe.

Uru ni urubuga wabasha kwishyuriraho amafaranga yaba hanze y'u Rwanda no mu gihugu imbere ku buryo byoroshya ihererekanya ry'amafaranga.

Uru ni urubuga rwo kwishyuriraho ibintu uba bakoresheje wenda yaba waguzeho ikawa cyangwa uhakodesha.

Uburyo bw'iyagure bwo kwishyura kw' ikoranabuhanga, akoresha amakarita ya banki.

Uburyo bwo kuri murandasi wakwishyuriraho ku buryo bworoshye kandi byizewe bifite umutekano ukaba.

Uru urupapuro nyemezabwishyu, iyo wishyuye imisoro nibwo baguha ikigaragaza ko

Izi ni impapuro mpeshamwenda, zigaragaza ko igikorwaremezo cyawe cy'ubucuruzi cyanditswe muri RDB.

Iyi ni inyandiko ijyanye n'imari aho berekana detaye zose z'uburyo amafaranga bakoresheje n'igiteranyo cyayo cyose bayohereje.

Urupapuro baguha iyo urangije kwishyura umusoro baguha bakerekana n'amafaranga wishyuye.

Ibi navuga ko ari nk'ibyangombwa by'imari, iyo uri gukora umushinga uba ufite; werekana ibintu byose biwujyaho; amafaranga, agaciro uhagaze.

Aha baba bari gukoresha amafaranga y'abanyamahanga bayahahisha amasoko agezweho urabona uno ni umucuruzi ari kuyapanga neza aba yayahawe n'abakire.

Aya mafaranga ni ay'amanyamahanga akaba akoreshwa mu gihugu cy'u Buhinde bakaba bayita amarupi ndi kubona ari ayo mu Buhinde.

Aya ni amafaranga y'abanyamahanga y'inote za mirongo itanu n'amafaranga y'amayero akoreshwa.

Iyi ni inyandiko yerekana uburyo amafaranga y'amanyamahanga agiye arutanwa mu biciro iyo ugiye kuyavunjisha.

Inote ni magana atanu yo muri tanzaniya, aya mafaranga ni amanyamahanga, aya ni amashiringi.

Aya ni amafaranga y'amarupi akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ari inote ya makumyabiri, uri kubona ko ari amafaranga y'amanyarwanda.

Aya ni amafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga harimo Amadolari, Amayuwane ni amafaranga akoreshwa mu bihugu byo hanze.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga, aya akoreshwa mu gihugu cya Congo, aya mafaranga ni inote.

Aha ni ahantu ujyana amafaranga y'amanyamahanga bakakuvunjira bayahinduramo amanyarwanda bukurikije agaciro kayo kayo ufite kuko bakuvunjira.....

Aha bagufasha kuvunja amafaranga y'ubwoko bwose, mu gihe mu Rwanda batayakoresha bisaba kuvunjishirirwa.

Ndabona ari intebe nziza zikozwe mu biti bituma wakimakaza gahunda ya medi ini Rwanda.

Ibi n'ibikoresho by'utubati aha ni aho babibika iyo barangije kubitunganya utu ni utubati.

Aha naho bacuruza ibikoresho by'intebe byo mu mazu, kandi bikoze neza, bikozwe muri za ribuyu n'ibindi biti bisanzwe.

Ndabona intebe zikojwe mu biti bisa neza cyane n'aho bazitunganyiriza aho zibitse zikeneye abaguzi bajya kuzigura .

Ndabona ari nk'ahantu bagurisha intebe, zimwe bita amafoteyizi zimeze neza cyane.

Akabati ko mu cyumba baterekaho ikintu nk'ivazi n'igitanda........

Ndi kubona ko ino ari Kigali Convention Centre aho ari imwe mu mahoteli meza cyane akomeye mu Rwanda...

Urabona hano ni muri hoteli, aho bakirira abantu muri jaride, uri kubona ko hari ubusitani, hari n'imitaka ku buryo izuba ritabica.

Iyi ni hoteli aho itanga serivisi z'amacumbi, ndetse n'amaresitora, n'abantu bakahakorera inama.

Aya ni amahoteli atanga serivisi zo gutanga amacumbi, n'abantu kwishimisha ibirori, no kuruhura mu mutwe byose.

Aha ni mu biro by'ikigo runaka haba icy'ubucuruzi ari kubona ko ari mu biro bisa neza cyane, uri kubona ko ari mu biro.

Sosiyete ikwishingira ku bintu by'ingenzi byawe, haba ku buzima bwawe, ku mamodoka yawe, ku nzu, iyo ugize ikibazo iragufasha.

Ibi ni ibigo by'ubwishingizi bikwishingira ku mitungo yawe, ukaba iyo ugize ikibazo bigufasha kuyivugurura cyangwa kugura iyindi mitungo.

Iki ni ikigo na cyo gikora mu bigo by'ubwishingizi, kikaba kishingira umuntu ku mitungo ye no ku buzima bwe no ku mashuri yiwe.

Biriya ni ibiro by'ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu, ku buzima, haba guteganyiriza minerivare z'abana no ku bikorwa remezo kubyishingira.

Iki ni ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cyo muri Amerika, ibi ni ibiro bya cyo aho abakeneye izi serivisi baza kukigana kuzisabira hano.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi gitanga serivisi zo kukwishingira mu buvuzi haba ku bikorwa byawe ku binyabiziga, haba ku mashuri y'abana bawe.

Ni banki bita Equity, aha iri kukwereka uburyo yaguhamo inguzanyo, uburyo iyitangamo inguzanyo ku buryo kuzabungukira.

Iki ni ikigo cya banki cyerekana uburyo baguha inguzanyo ku buryo bwizewe kandi vuba ikaba ari banki yitwa eko banki.

Hano bari uburyo baguhamo inguzanyo mu gihe kingana n'iminsi ibiri, ukaba wayibonye inguzanyo, ukayikoresha ibikorwa byawe.

Iki ni ikikwereka ko hatangwa inguzanyo kuri ino banki ukaba wayibyazamo umusaruro witeza imbere.

Iri ni isoko ry'ibiribwa aho umucuruzi afite imbuto, ibishyimbo cyangwa ibiharage.

Iri ni isoko aho bacuruzamo, aha ni mu iduka ryaho aho bacuruza uduseke, ibikapu n'imitako n'inkoni zose.

Iri ni isoko aho bahahira imyenda ndetse n'ibindi bintu bakeneye, uri kubona ko harimo hoteri zitandukanye.

Aba ni abaturage bari kurema isoko, uri kubona ko ari benshi bari mu bikorwa byabo yaba ari abaguzi n'abagurisha ibicuruzwa n'ibinyabiziga bizana umusaruro ku masoko.

Ndi kubona n'ariya masoko baciriritse badandika yo mu makaritsiye akenshi usanga atanasora nk'ayangaya cyane cyane yo mumugi.

Iri ni isoko aho buri muturage azi gucagura ikintu ashaka ku buryo cyamufasha mu buzima busanzwe, cyangwa undi akaza akahatangirira imishinga ye izamubyarira ininyungu.

Uyu ni umuturage ugiye mu isoko kureba ibyo agura, kureba uko mu isoko hahagaze. Ibiciro

Iri ni isoko ry'ibiribwa aho harimo ibitandukanye haba amakaroti, ibitoki, imbwija.

Aha Emutiyeni yari iri gutanga ibihembo byo kubakoze serivisi zabo zaba kugura ama paki kuburyo batsindira imodoka.

Hariya ni inzu umukozi wa MTN akoreramo yicayemo, aho atangiramo serivisi, guha simukadi nshyashya abantu bazikeneye, habaha kubikuza, haba gukuriraho serivisi zo kugura umuriro ndetse n'ibindi.

Aha n’umuturage wari wakoresheje gahunda yo kwishyura ukoresheje telefone ku murongo wa MTN, aho yashyizeho umuntu wishyura akoresheje MOMO pay ahabwa igihembo, yari yatsinze.

Ndabona umuntu watsindiye ibihembo kuri MTN muri porogaramu za yenda yakoze interineti akagira imana agatsindira ibihembo.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone yawe, ukoresheje momo bikoroshya uburyo bwo gucungira amafaranga yawe umutekano bitagoranye.

Izi ni serivisi zo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ukoresheje na telefone yawe bityo bikakorohereza nk'umucuruzi.

Ndabona umuntu uri gukoresha serivise za MTN nko kubitsa no kugura initi zo guhama.

Hano ni poromosiyo, aho abakozi ba emutiyeni batanga, ukaraga uriya muzenguruka, icyo utoye nicyo baguha.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje telefone ukishyurana ntago bagukata amafaranga.

Hano ni uburyo wahahira kuri murandasi ku buryo bukoroheye, kandi ku biciro biri hasi cyane. Ntabwo bahenda hano.

Aya ni amasoko agezweho aba ku mbuga nkoranyambaga ari byo bakunze kwita webusiyite, aho ukomandinga ikintu, utanga oda bakakuzanira ikintu ukeneye cyose.

Aba bakugezaho ibicuruzwa uba wahahiye ku buryo bwo kuri murandasi, ukabibatuma babikugezaho vuba vuba bakakugezaho iwawe.

Aha ni ikigo kiba gikorera ubucuruzi ku ikoranabuhanga, aho gicuruza amakanzu y'abagore yonyine, wakora komande bakayikugezaho kuri.

Ndabona ari isoko ryo kuri murandasi, aho utumiza buri kintu ukeneye inkweto n'ibindi bitandukanye ukeneye.

Iyi ni imitungo itimukanwa baba bari kurangira abakiriya amacumbi.

Nimba ushaka inzu igurishwa muri Kigali miliyoni ijana na mirongo itanu ngiyi wayibona.

Aha bari kukwereka ukeneye ko bakwakira ushaka ku mitungo itimukanwa aba ni urubuga wabasangaho.

Niba ushaka inzu yo kugura ihagaze agaciro ka miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri, ifite igipangu kimeze neza, igaragara neza, agaciro kayo ni mi...

Iyi nzu ku kwezi ni amadorari icyatanu, buri kwezi, iherereye mu mugi wa Kigali, ni inzu nziza.

Nimba ushaka inzu yo kugura iherereye i Kanombe, ihagaze agaciro ka miliyoni ijana na mirongo ine, iherereye mu mujyi wa Kigali, imeze neza ijyanye n'igihe.

Niba ukeneye kugura inzu iherereye Gisozi hagati na Kagugu ihagaze agaciro ka miliyoni magana atatu na mirongo itanu.

Niba ushaka inzu yo gukodesha iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ku kwezi ni icyatanu cy'idolari, uyafite.

Iyi ni inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu. Iherereye mu mujyi wa Kigali, isaneza ifite igisenge kimeze neza, amatara ameze neza.

Iyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ku kwezi ikodeshwa amadorari magana atanu na mirongo itanu buri kwezi, urabona ko imeze neza cyane.

Nimba ushaka inzu ikodeshwa kacyiru, amafaranga miliyoni imwe na magana atanu mu mujyi wa kigali ufite.

Inzu ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu i Remera, ifite uburiri, icyumba kimwe n'igikoni.

Inzu ikodeshwa iherereye Kibagaba i Kigali, ifite ibyumba bine, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ataratu buri kwezi, ntiwayibura.

Ubaye ukeneye amacumbi akodeshwa aherereye i Nyarutarama mu Mujyi wa Kigali, ni inzuzi zisa neza cyane ziri ahantu heza.

Iyi ni inzu iherereye Kibaga yabaga ifite ibyumba bitanu n'ubwogero butanu, ku kwezi ikaba ikodeshwa amadorari icyari..

Ni ikigo runaka kiri kwerekana uburyo gitangamo serivisi zacyo ziboneye, uburyo ugikeneye aho yagihamagara, uburyo yagisura.

Nimba ushaka inzu ukodesha buri joro ibihumbi ijana na mirongo itanu by'idolari ku kwezi igihumbi na mirongo inani ifite ubwogero.

Inzu yatwaye ingengo y'imari iri hasi cyane yakoreshejwe n'ibihumbi maganinani, ifite ibyumba bibiri, ibifite igisenge kirimo ifite ubuhanga bwishi.

Iyi ni inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe, ifite ibyumba bitanu ikaba ku kwezi uyikodesha ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amanyarwanda.

Aha ni mu iduka aho bari gufunga neza ibiribwa umukiriya ahashye baba bagomba kubimutunganyiriza neza kugira ngo abitware bitamujena.

Aya ni ya masoko ya kizungu, aho aba agezweho yubatse mu buryo bugezweho ku buryo buri kintu cyose kiba kiri ahajyanye kandi bisa neza.

Iri ni iduka aho ririmo ibikoresho bijye bitandukanye, abantu baza gucaguramo ibyo umuntu akeneye, kandi biba bifite igiciro cyiza.

Aya ni amaduka bagurisha ibikoresho bitandukanye haba imitako, haba amavaze bashyiramo indabo ndetse n'ibindi bikoresho.

Iki kigo bacyita ejo heza, aha cyari kiri gukorerwa porogaramu zacyo twishingira haba mu buzima ndetse no ku bikorwaremezo byawe byaba ari n'ubuhinzi.

Ibi ni ibigo by'ubwishingizi ku buzima bigufasha kukwitaho mu gihe urwaye kandi bikakohereza mu kwivuza ukaba utekanye.

Aha ni ku ikigo nderabuzima, aho iyo wumva utameze neza uza kwivuza, bakaguha serivisi zo kukwitaho mu buvuzi yaba urwaje bakakwitira k'umurwayi.

Ndi kubona umuntu waje kwivuza, ari gutanga mituweli ye kugira ngo bamwakire, aha ngaha ni mu biro bari kwandika imyirondoro ye.

Hano ni amaduka bahahiramo ibiribwa bakeneye, ni nk'amaduka agezweho bahahiramo.

Iri ni isoko ryiza rijyanye n'igihe, aho bacururizamo ama poroduwi menshi utabona, n'akorerwa hano mu Rwanda.

Ndabona muri butike harimo ibinyobwa by'amoko menshi biri muri firigo, aho biba bikonjeshwa akenshi bino ni n'ibyo mu nganda.

Aya ni amasoko ya kizungu, aba akenshi afitemo ibinyobwa bituruka mu nganda cyane cyane.

Aha ni mu iduka aho bacururiza ibikoresho, haba n'ibiribwa, haba n'ibyo kunywa n'ibikoresho byo mu mago bihari.

Hano ni aho bahahira ibikoresho bitandukanye y'aba ibiribwa, y'aba ibinyobwa mu gihe kandi biba biri ku giciro cyiza.

Aya ni amasoko ya kijyambere agezweho haba hakoreshwa ibintu byinshi byujuje ubuziranenge, biba byizewe akenshi biba byaturutsemo nganda.

Aya ni amaduka agezweho aba afite ibiribwa bitunganyije mu nganda kandi bimeze neza bifite icyanga cyizewe.